Ni ngombwa ko igihe umuntu ukora ibikorwa byo gutanga amaraso akwiye gufata ifunguro ryuzuye kandi akanywa amazi menshi ndetse byaba byiza akirinda imirimo y'imvune.

Utudege dutwara amaraso yo gutabara indembe mu Rwanda tuzwi nka dorone dukomeje kugira umubano munini bitewe n'uko agihe amaraso yabuze mu bitaro bimwe duhita tuyahageza mu buryo bworoshye.

Mu bikorwa by'ubutabazi bikorerwa umuntu wese uhuye n'ikibazo cyo kubura amaraso hari uguhita bamuteramo ayandi kugira ngo abeho neza kandi abashe kugira ubuzima bwuzuye kuko iyo abaye make yanakwitaba Imana.

Imwe mu miti itangwa, kwa muganga, harimo ifasha abarwayi ako kanya kugira ngo bagarure ubuzima, hari n'indi bahabwa igira ngo birohereze, mu kugabanya ububabare.

Gutera imiti yica kandi ikanarinda malariya, bikomeje gushyirwamo ingufu zitari nkeya n'abantu bakomeje kubikerensa baragirwa inama yo kubireka ubundi, bakareka iyi gahunda igakomeza.

Mu buryo bwo gufasha, ndetse, no gushyigikira, ibikorwa byo gufasha abafite ubumuga, ikigo cy'igihugu kibashinzwe, cyabahaye inkunga y'utugare, bazajya bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyo umuntu afashwe n'ibyorezo cyangwa se iyindi ndwara ikomeye cyane abaganga bihutira kumuvana mu baturage kugira ngo atabanduza, ibi ni byo byabaye ku cyorezo cya Marburg aho buri wese wahuraga na cyo mu Rwanda yahitaga agezwa ku bitaro.

Abarwayi barembeye mu bitaro bya Muhima baravuga yuko ibintu bikomeje kuba amayobera, bitewe n'indwara yaje ituma umuntu atabasha guhumeka ndetse agacika intege umubiri wose.

Mu kwihutisha ibikorwa byo kuvugurura no kubakira abatishoboye babavana mu manegeka, abakoze umuganda mu Karere ka Gicumbi bubakiwe uwasenyewe n'ibiza.

Ibikorwa byo gukora ubutabazi ku muntu warebye ni ngombwa kwihutishirizwa kwa muganga kugira ngo akurikiranwe n'ababifitiye ububasha ndetse banabyize hirindwa kuba yajyanwa mu bavuzi gakondo aho ashobora kuhatakariza ubuzima.

Mu gufasha abantu bafite ububabare ndetse benda gushiramo umwuka bitewe n'ikibazo cy'amaraso make, hashyizweho uburyo bwo gutwara amaraso mu bice bigiye bitandukanye, mu buryo buzwi nka durone.

Mu bikorwa byo gufasha abantu batishoboye, hateguwe igikorwa cy'urukundo n'umuryango uharanira gutabara indembe Croix Rouge, ishyikiriza abantu bagize uruhare mu gutanga amaraso muri uyu mwaka.

Guheka umuntu mu ngobyi byari bimenyerewe kera ariko na n'ubu hari ahantu ibi bikorwa bisigaye byifashishwa bitewe n'uko hari igihe imbangukiragutabara ziba zitahagera bitewe n'uko batuye mu manegeka.

Aho babyarira, kwa muganga mu bitaro byitiririwe umwami Fayisali, hari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho umubyaza ashobora, kubyaza umudamu atamukozeho ahubwo akoresheje ikoranabuhanga.

Umubyeyi ugaragara nkaho akuze, ari gupakira imyenda ye y'umurwayi yari aharwaje ndetse biravugwa ko uwo murwayi yamaze gutegerwa, uyu mubyeyi akaba agiye kujyana ibindi bikoresho nyuma.

Mu kwita ku ndembe abaganga benshi usanga bajya inama ku cyakorwa mbere yo kugira ngo umurwayi asezererwe cyangwa yimurirwe ku bindi bitaro bikuru.

Igihe umubyeyi atwite biba byiza iyo agannye ivuriro ri rimwegereye cyangwa ikigo nderabuzima kugira ngo agirwe inama ahakura, ndetse aniga uburyo azajya yifata neza kugeza agiye kubyara.

Abaganga bakora akazi k'ubuforomo na bo bahawe agaciro bitewe n'uko hari ibikorwa bagenda bakomorerwa kugira ngo na bo batange umusanzu wabo harimo nko gukura amenyo ndetse n'ibindi.

Mu cyumba cyahariwe indembe abaganga bavuga ko hakwiye gushyirwa utuntu dutanga umuyaga, bityo abantu baharwariye ntibage batutubikana ngo bibaviremo ubundi burwayi.

Gukoresha mudasobwa ni kimwe mu bigaragaza ko urubyiruko rujijutse bitewe n'uko abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani, mbere batahabwaga amahirwe nk'ay'ab'ubu.

Abantu bakora mu bikorwa by'ubuvuzi hashyizweho amabwiriza mashya y'uko bagomba gutanga serivisi zabo neza ku bantu baje babagana hirindwa agasuzuguro.

Gutanga amaraso ni kimwe mu bintu by'ibanze bifatiye ahanini abarwayi bakora impanuka ndetse n'abandi bagira icyo kibazo cyo kubura amaraso, aho buri wese ubu ari gushishikarizwa gutanga amaraso kuko ngo aba ari ugutanga ubuzima.

Abarwayi barembeye mu bitaro bya Kimisagara bavuze yuko bakomeje gushima uburyo abaganga baza babagana baba bafite ikinyabupfura ndetse bakanababwira neza ibyo bigatuma babasha gukira vuba.

Indege nto zitwara amaraso zivugwa yuko zifite umwihariko wo kugenda nta muntu uzicayemo ndetse ahantu zitumwe hose zikaba zagerayo.

Abaganga bakora ibikorwa by'ubuvuzi mu bigo nderabuzima biba ngombwa ko igihe bahuye n'abaje babagana bageze mu za bukuru babasobanurira kandi bakabavura babaganiriza mu rwego rwo kugira ngo gahunda zabo zigende neza.

Mu bitaro bya Gatunda Hospital biherereye mu Karere ka Nyagatare havugwa ko imbangukiragutabara ziyongereye ugereranyije no mu minsi yagiye itambuka kuko ubu ngubu zimaze kuba inye zikorera kuri ibi bitaro.

Imbangukiragutabara nibura ebyiri, nizo ziba zikwiye kuba ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi kubera ko igihe ari nkeya, umubare w'abapfa batari bagezwaho ubutabazi wiyongera.

Mudasobwa izwi cyane mu gukoreshwa kwa muganga, bivugwa ko igura agaciro ka miliyoni magana abiri z'Amanyarwanda bitewe n'uburyo iyi mashini ihenda.

Abagore batwite n'abo bagirwa inama kenshi ko bagomba kwegera ibitaro, cyangwa amavuriro abegereye kugira ngo bakurikiranwe cyane cyane igihe batwite, kuko baba bagomba guhabwa ubuvuzi by'umwihariko.

Mu gihe k'ibyorezo ni ngombwa ko abaturiye ndetse n'abakora ibikorwa by'ubuvuzi bajya inama ku bigendanye n'ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda kuba byakwirakwira ahantu hose.

Ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima bivuga yuko igihe abantu bakurikiranywe kandi bakivuza ku gihe nta ngaruka bishobora kubagiraho mbi ugereranyije n'igihe batabikoze.

Ni ngombwa gutega amatwi umuganga uri kukwitaho ndetse akanagukurikirana, ukamubwira amazina yawe yombi, aho ukomoka ndetse n'ibiro upima kugira ngo amenye neza umuti aguha uri bukuvure neza.

Abantu babaye indakemwa mu gutanga serivisi nziza mu bitaro bya Kaminuza, bavuga ko bishimiye ibihembo bahawe ndetse baniyemeza kongera ingufu mu byo bari basanzwe bakora.

Ababyeyi benshi ndetse n'abana babo bitabiriye igikorwa cyo gufata urukingo rw'abana bari munsi y'imyaka itanu, ndetse bamwe banahabwa ifu ya shishakibondo kugira ngo bahe abana babo.

Mbere y'uko hatangizwa igikorwa k'ikingira nyir'izina abaganga babanje guhuriza abaturage hamwe imbere y'ivuriro ubundi bababwira byinshi kuri iyo ndwara, yaba uburyo yandura ndetse n'uko yakwirindwa.

Ni ngombwa kugira ngo abana na bo bajyanwe kwa muganga mu buryo bwo kugira ngo basuzumwe harebwe niba bari mu murongo mwiza wo gukura cyangwa wenda bari mu byago byo kurwara Bwaki.

Inshinge, imyenda y'uturindantoki ndetse n'ibindi nibyo byifashishijwe mu kurinda abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ndetse bakabasha no gusubira mu buzima busanzwe.

Mu kwibanda cyane ku bikoresho bikoreshwa mu nzu zipima indwara, harimo nka laburatwari ndetse n'ahandi, bivugwa ko igihe byitaweho ndetse n'abaganga bakambara impuzankano yabigenewe, bibasha koroha.

Umuganga ukorera mu bitaro bya Muhima aravuga ko gufata inkingo nibura ebyiri ku munsi bishobora kugabanya ibyago by'uko wakwicwa n'ibisazi by'imbwa.

Abana nabo bahabwa amahirwe, yo gukora ibizwi nka puratiki cyangwa se imenyerezamwuga, aho bashobora gupima indwara ndetse bagasuzuma, n'ibizamini.

Hari benshi bagiriwe inama z'uko bakwiye kwitwara mu gihe bagiye kwisuzumisha indwara zandura ndetse n'izitandura, cyane cyane izwi ubu ngubu nka hepatite yibasira umwijima.

Ahasuzumirwa indwara, haba ibikoresho bitandukanye, harimo n'icyitwa mikorosikopi, kifashishwa mu guhangana no kureba indwara, zifite udukoko dutoya tutagaragarira amaso, byose biri mu bitaro bya muhima.

Abaganga bakorera mu nzu zifata ibizamini cyangwa se izizwi mu ndimi z'amahanga nka laboratwari, baravuga yuko igihe umuntu wese uje abagana, afashwe ibizamini, aha hantu hamufasha, kubona igisubizo.

Abakora ibikorwa by'ubuvuzi cyane cyane aho bapimira indwara, bagomba kwirinda cyane bambara uturindantoki, imyenda yabugenewe, agapfukamunwa ndetse byaba byiza bakipfuka no mu maso.

Abana biganjemo urubyiruko rw'abakobwa batanu ndetse n'abandi bayobozi babafasha kwiga ibigendanye n'ubuganga, binjiye ahapimirwa ibizamini by'abarwayi basobanurirwa byinshi.

Ni ngombwa ko umwana wese ukiri muto aho guhabwa ifunguro gusa, ahubwo akwiye no guhabwa igikoma kirimo ifu ya shisha kibondo, ndetse ikaba ikungahaye kuri vitamine zifasha umwana gukura neza.

Mu buryo bwo gukingira umwana umuganga aba afite uruhare runini mu kumuganiriza ndetse no kumurangaza kugira ngo ataza gutinya urushinge cyangwa ibinini aribuhabwe bitewe n'uburyo abana biba bigoye kubavura.

Kugaburira umwana ifunguro ririho ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga ni ingenzi kuko akurana imbaduko ndetse n'ubukaka n'ubushongore mu bigendanye n'imikorere ye.

Umubyeyi umaze kwibaruka umwana w'umukobwa, amuteruye mu bishora by'ubururu ndetse n'umweru kandi afite n'akanyamuneza bitewe n'uko yari amaze igihe kirekire ategereje urubyaro.

Abantu bambaye amajire bigaragara ko bafite ikintu bahagarariye runaka, abakorerabushake baje gutera imiti yica iyo ku bigo by'amashuri binjiye maze abana barabasuhuza cyane.

Birakwiye ko igihe hateguwe igikorwa runaka gihuriza abantu batari bake hamwe, bagomba kwicara bakaganirizwa ku bigendanye n'ibyo ibyorezo byandura ndetse n'ingamba zo kugira ngo byirindwe mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bahaburira ubuzima ku bwinshi.

Mu gufasha no gushyigikira abafite ibibazo byo mu mutwe, leta y'u Rwanda iravuga yuko, hakwiye gushyirwaho amatsinda azajya afasha abanyeshuri, mu kwimakaza ndetse no kudashyira mu kato, abanyeshuri babana n'ubumuga bwo mu mutwe.

Mu bukangurambaga burimo uburyo bwo kumenya imikorere na serivisi zitangwa na Isanze One Stop Centre, abaturage bazindukiye muri icyo gikorwa ku murenge wa Muhima.

Kwicara munsi y'umumenyinya abantu bakaganira, bifasha buri wese kwiyumvamo mugenzi we ndetse ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka kikaba cyakemurirwa hamwe, ubundi abantu bakiyunga bagaharanira gukorera hamwe.

Ku bufatanye n'ibigo bitandukanye birimo: Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima RBC, Imbuto Foundation n'ibindi, biri mu bukangurambaga bwo gukangurira abantu kwirinda ihungabana rishobora guterwa n'imyitwarire idahwitse.

Abantu batazi ibijyanye n'amahugurwa ni bo batuma ibintu bakora batabikora neza nkuko byifuzwa, ni muri urwo rwego Umuyobozi w'Akarere ka Muhanga yakanguriye urubyiruko rwose ndetse n'abasheshakanguhe kwitabira amahugurwa yateganyijwe.

Imiti na yo iri mu bintu bihendesha cyane Igihugu bitewe n'uko hari igihe Igihugu gitanga amafaranga atari munsi ya Miliyari magana atanu buri mwaka kugira ngo amafarumasi ndetse n'ibigo by'ubuvuzi bibone imiti.

Gucuruza imiti ifite ubuziranenge, biba byiza igihe byitondewe bitewe n'uko bishobora guteza abantu impfu zitandukanyewe n'imiti iba yararengeje igihe cyayo.

Ibikorwa byo guteza imbere farumasi mu Rwanda bikomeje kwiyongera bitewe n'uko zagiye zikosora zigakora isuku ahantu zicururiza imiti kugira ngo hirindwe indwara z'ibyorezo ndetse n'izindi zituruka ku mwanda.

Gucuruza imiti ifasha abantu gukira indwara, ni byiza bitewe n'uko igihe iyo miti idahari abarwayi bose bahasiga ubuzima bityo akaba ari ngombwa kwita ku isuku mu gihe bari gutanga iyi miti.

Mu mavuriro atanga imiti azwi cyane nka farumasi, hari benshi bakomeje kuvuga ko imiti ihagurirwa, ikomeje kuzamura ibiciro byayo bitewe n'uko bo nta mafaranga baba bafite ahagije.

Inzu zitanga imiti zikorera mu Karere ka Rusizi bivugwa yuko imiti yaho itujuje ubuziranenge kuko abaturage bakomeje kuzinubira.

Inka ndetse n'ingurube bigomba kwitabwaho ndetse na byo bigahabwa amavitamini azajya bifasha kugira ngo bikure neza hirindwa ko zarwara inzoka zikazidindiza.

Bamwe mu bavuga ko hari byinshi ibintu bitagenda neza mu mafarumasi acuruza imiti yo kwa muganga, ni ukuba ba nyirazo baba batambaye impuzankano n'itaburiya y'umweru kugira ngo byerekane ko aho hantu hafite isuku.

Kaburimbo igihe ititaweho ngo ikurwemo ibintu bishobora gutuma igaragara nabi, abantu ntabwo bibanyura kandi biba bibabangamiye.

Ibiryo by'inkoko zitera bikomeje kuba ikibazo bitewe n'uko abantu babitumiza kuva hanze biza biri ku mafaranga ari hejuru ibyo bigatuma abahinzi n'aborozi bafite ubushobozi bukeya batabasha kubyigondera ngo inkoko zabo zitange umusaruro.

Imiti ikorerwa mu nganda zitandukanye zo mu Rwanda bivugwa y'uko iri gutanga umusaruro ku matungo magufiya ndetse n'amaremare bitewe n'uburyo Leta y'u Rwanda yashyize ingufu muri ibi bintu.

Gutanga imiti ndetse n'ibinini bivura indwara, mu mafaromasi atandukanye mugihugu, biri kugenda bishyirwamo imbaraga ku buryo umuturage abibona bimworoheye kandi bitamuhenze.

Ni byiza yuko ujya mu bitaro cyangwa mu nzu zicuruza imiti zizwi nka farumasi kugura imiti ariko usanga ahanini badafite aho bakirira abarwayi bakabasuzuma.

Mu minsi cumi n'itandatu yo guhangana n'ubukangurambaga bukorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina hari abari bakomeje kuvuga ko na bo byabafashije mu kwirinda ihohoterwa ribakorerwa.

Inama zigenda zikorwa hirya no hino mu gihugu, buri wese agomba kuba afite mashini imbere ye ndetse n'icupa ry'amazi kugira ngo igihe yumva ananiwe kuvuga ayifashishe, ubundi asubirane akanyamuneza.

Udupima umuvuduko w'amaraso ni ngombwa kubera ko igihe bidakozwe, umuntu ashobora kuba yahasiga ubuzima bitewe no kutamenya bimwe mu bimenyetso biranga umuvuduko w'amaraso.

Mu kwiyamamariza, kuba umuyobozi w'urubyiruko, mu turere tumwe na tumwe, tw'igihugu, hari bamwe mu bahiswemo n'abaturage benshi, bityo bituma baba abayobozi b'urubyiruko muri utwo turere.

Abana ndetse n'urubyiruko bafashe gahunda yo gukora ubukangurambaga bujyanye no kwamagana gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ahubwo bavuga ko agakingirizo gashobora kubafasha mu gihe umuntu yananiwe kwihangana.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri ukongeraho umusore umwe baganiriye ku bigendanye n'ukuntu bahagurukira icyorezo k'indwara z'ibyorezo.

Hari imbuto zimwe na zimwe urubyiruko rwateye ishoti ahubwo ugasanga abantu bakuze ari bo zigwa neza kandi bakumva bararyohewe igihe bari kuzifata izo mbuto bakunze kuzita intagarasoryo.

Umuravumba ni kimwe mu kimera buri wese atayoberwa bitewe n'uko ukungahaye ku budahangarwa bwo kuvura giripe ndetse n'ibicurane.

Bamwe mu bavuzi b'imiti ya kinyarwanda usanga badatinya no kujya mu isoko rwagati, bakagurisha imwe mu miti yabo ikozwe mu mababi y'ibiti ndetse n'imizi yabyo.

Imiti ya kinyarwanda irimo ibinywebwa, ivyo basekuye bipfunyitse mu ducupa. byose bigurishirizwa mu isoko igihe ababikora baba bumva nta kibazo.

Mu gusarura imyaka uritonda cyane bitewe n'uko cyane cyane igihingwa k'intoryi kigorana nk'igihe ugikubaganyije ururabo rwacyo rukaba rwakwangirika ugasanga gitaye agaciro.

Imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi usanga akenshi ikemangwa bitewe n'uko iba itujuje ubuziranenge nyamara buri wese ucuruza imiti aba agomba kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge.

Mu Rwanda hari ibimera byinshi ariko ari ikimenyererere kandi kizwi cyane nk'umwenya, uretse no kuba gikoreshwa nk'ikirungo k'icyayi ahubwo umwenya ushobora gukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zo mu mubiri w'umuntu.

Kunywa imiti igezweho ndetse n'iyindi ya kinyarwanda, n'ubwo benshi batabikunda ariko abantu babishyira mu gikombe bakabicanira, bishobora gutanga icyizere cy'uko byavura indwara.

Hari imashini nyinshi zigenda zishyirwa kwa muganga kugira ngo zibashe gufasha abazikoresha kubona indwara vuba, bitewe n'uko abarwayi igihe baje ari benshi, bigorana cyane kugira ngo uvumbure indwara barwaye.

Abaganga batatu baravugwa yuko aribo bavurira mu kigonderabuzima cya Shyorongi bitewe n'uko igihe abarwayi badahari bahurira hamwe bakaganira.

RAPHA CLINIC, hari serivisi batanga zitandukanye harimo ubuvuzi bw'amenyo, ndetse no gufata ibizamini ku bantu baje babigana, kandi bavuga ko n'abanyeshuri badahejwe.

Uko abantu bakangurirwa kwikingiza indwara, ni nako amatungo nayo hari imiti yabigenewe agomba kujya afata mu gihe cyo kugira ngo birinde indwara zaturuka ku mukamo ndetse n'inyama zayo.

Kandagirakararabe, ni bumwe mu buryo bwaje ndetse bugatanga ikizere cy'uko indwara zandura, zitazongera guteza abantu ikibazo gikomeye, bitewe n'uko igihe umuntu yakarabye intoki, aba arinze abandi ari bahure nabo kwandura indwara.

Abagana zimwe muri serivisi zitangwa na Girubuzima bavuga ko hashyizweho uburyo bwo gukaraba intoki ku marembo, ndetse buri muntu wese uhagera abona koko ko akwiye kugira ubuzima.

Muri gahunda yiswe Girubuzima, hari abajyanama b'ubuzima bishimira ko bahawe uburenganzira na bo bitewe n'amahugurwa bahawe ubundi bakajya bafasha mu buzima bw'Abanyarwanda kugenda neza.

Hashyizweho amarombo y'ikitegererezo azajya afasha abantu kubasaka ndetse akanabapima indwara atabakozeho mu rwego rwo kwirinda ko hari abantu bazajya bahasiga ubuzima mu gihe bari gupima abarwayi.

Abagabo barimo abasaza bakuze ndetse n'abandi bafite inshingano mu kigo Nyamikamba herifu posite, bashobora kuvuga ko ibi bintu bari gukora ari ingenzi kandi babishyigikiye.

Kuba umuntu usanzwe yandikirwa umuti ni nako amatungo na yo agira imiti yabugenewe agomba gufata yaba mu gukura kwayo ndetse no kwirinda indwara zirimo n'ibyorezo.

World helth organization, ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu ndetse n'inyamaswa, kuri uyu wa gatanu cyateranye kiga ku ngamba zo guhangana n'icyorezo cya Marbug cyadutse.